Inzu mberabyombi, inkuta z'umweru, ndetse n'amadirishya n'inzugi z'ikijuju cyijimye, bisa nkaho hateraniyemo abantu barenga makumyabiri na batanu, umwe muri bo ari imbere asa nk'uri kubaha ikiganiro, afite ibikoresho by'ikoranabuhanga, nka mudasobwa, terefone igendanwa, ifite ameza y'ibiti ndetse atamirijwe ibitambaro bitukura, buri wese uhari asa nkaho afite ikintu cyo kwandikaho.

Inyandiko y'igazeti yo kuwa makumyabiri Nzeri bibiri na cumi n'umunani iri mu ndimi eshatu Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa ivuga itegeko mirongo itanu na kane akarongo kaberamye biribiri na cumi n'umunani ryo kuwa cumi na gatatu Kanama bibiri na cumi n'umunani ryerekeye kurwanya ruswa. Byemejwe na Kagame Paul hamwe n'inteko ishinga amategeko ryemeje ko ijya mu mategeko ya Leta.

Abagabo babiri b'igikara bambaye impuzangano ya gipolisi, umwe muri bo afite inyenyeri eshatu ku bitugu, yambaye isaha ari kwambika amapingu undi mugabo usa nk'ukuze ufite uruha n'amarinete wambaye ikoti ry'ikijuju n'agashati k'umweru mu imbere, hari umugore uri kubireba n'inyuma hari abandi bantu bari kubireba.

Inyandiko y'igazeti yo ku wa makumyabiri Nzeri bibiri na cumi n'umunani iri mu ndimi eshatu Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza, ivuga ingingo ya makumyabiri na kabiri yo kubona inyandiko no kuzifatira, ingingo ya makumyabiri na gatatu itegurwa, isuzumwa n'itorwa by'iri tegeko ndetse n'ingingo ya makumyabiri na kane ivuga ivanwaho ry'itegeko n'ingingo z'amategeko binyuranye n'iri tegeko.